Akazu kubabatse neza kandi gatoya kari mu marangi y'umutuku, kariho amagambo y'ikigo k'itumanaho cya Airtel, inyuma y'a kandi gato hari ikindi hari akandi kazu ka MTN bivuze ko aka kazu kabamo umuntu utanga bimwe mu bicuruzwa bya Airtel harimo: gutanga amayinite, kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga.

Umutaka w'umuhondo hicayemo umuntu, aha bivuze ko aba arimo gutanga bimwe muri serivisi by'ikigo cy'itumanaho cya MTN, aho haba harimo nko gutanga amayinite, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi.

Akazu kubatse neza, kariho ibyapa bitandukanye. Hariho irembo, bivuze ko bakorana n'irembo, serivisi zose zo ku irembo hano bagufasha, Equity, BK ndetse n'ibindi. Biba bivuze ko umuntu ukoreramo hano, atanga zimwe muri serivisi bino bigo bimanitse no ku cyapa bitanga.

Utuzu tubiri harimo ak'umutuku n'ak'umuhondo, ak'umutuku kanditseho icyapa K'itumanaho cya Airtel, akandi k'umuhondo kanditseho MTN. Harimo n'abakozi b'ibyo bigo aho batangamwe bicuruzwa bitandukanye nk'amaniyite, kubitsa, kubikura, kohereza amafaranga ndetse n'ibindi. Hari n'abakiriya babagannye aho barimo kubafasha.

Abagabo babiri barimo kwifotoza, harimo umwe umeze nk'uri guhabwa igihembo wambaye umupira w'ikigo k'itumanaho cya Airtel, umwe ameze nk'umukozi wa Airtel noneho undi akaba ari guhabwa igihembo. Airtel ni ikigo k'itumanaho gitanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye harimo nka: telefone, amayiniti, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya Airtel. Barimo kwifotoza. Aho bari bari gutanga bimwe mu bicuruzwa bya Airtel, harimo na telefone, gutanga amayinite, kohereza amafaranga kubikura ndetse n'ibindi.

Umutaka w'umuhondo ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye impuzankano y'umuhondo, hariho icyapa K'ikigo K'itumanaho cya MTN bivuze ko uyu muntu afasha MTN gucuruza bimwe mu bicuruzwa byabo harimo nko gutanga amayinite, kubitsa no kubikura, inyuma kandi hari inzu z'ubucuruzi zicuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Umukobwa ari ku mashini ishinzwe gutanga amafaranga yitwa ATM, iyi ngiyi ikoreshwa na banki zitandukanye kugira ngo umuntu ukeneye amafaranga abe yabasha kuyibikuririza atagombye gusanga umuntu umufasha.

Akazu kariho ibyapa bitandukanye kari mu ibara ry'umuhondo aho kuri ibyo byapa handitseho ibigo by'itumanaho nka MTN ndetse Airtel kandi harimo mo imbere yo umuntu urimo arimo gutanga bimwe mu bicuruzwa by'izi sosiyete, hari n'abakiriya kandi bagiye kugira ngo abakire.

Abantu bahagaze imbere y'inzu harimo uwambaye impuzankano y'umuhondo y'ikigo cy'itumanaho cya MTN bivuze ko afasha MTN mu gutanga bimwe mu bicuruzwa harimo nko gutanga amayinite yo guhamagara, kubitsa, kubigura ndetse no kohereza amafaranga.

Iyo inyubako iriho amarangi ari mu ibara ry'umweru n'ubururu handitseho amagambo banki yacu cyangwa banki y'abaturage hejuru 'y'handitseho intapurazyize Urwibutso. Bivuze ko ari ahantu bacururiza bimwe mu bicuruzwa bya Banki ya Kigali, ndetse akaba ari na bizinesi yitwa Urwibutso.

Abantu baje kwitabira no kureba ibikorwa abantu bakoze. Ni ibikorwa bitandukanye birimo ibicuruzwa bitandukanye aho itsinda cyangwa koperative ryishyize hamwe rikabikora. Abantu rero baje kubasura harimo abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano, nko kubamurikira ibikorwa batangiye gukora.

Abantu benshi batandukanye bari ahantu hamwe, aho imbere yabo hari umudamu ufite indangururamajwi. Bameze nk'abari mu gikorwa cy'ubukangurambaga mu bintu runaka nka banki cyangwa koperative. Aho hari abadamu bambaye imyenda isa n'imipira y'ubururu, aho bigaragara ko hari n'igikorwa runaka kibahuza bakora.

Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi, aho arimo gutanga ikiganiro, insanganyamatsiko iragira iti Nyagatare investiment forum, bivuze ko bari mu bukangurambaga no gushishikariza abaturage bo muri Nyagatare, kwihangira imirimo no gushora imari muri aka karere.

Inzu yanditseho Umurenge SACCO, bivuze ko ari aho Umurenge SACCO ukorera, akenshi aba ari nka banki ntoya abantu bagenda bakabitsamo amafaranga cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye aho inatanga inguzanyo.

Abantu benshi bahagaze mu musaruro w'ibigori aho barimo kubyanika, akenshi ibi ibigori biba byareze, noneho bakabivovora bakabyaka, bimaze kuma ni bwo babona kubivungura, bagakuraho ibitiritiri.

Ahantu hateguye neza kandi abantu bicaye ku murongo. Ni ahantu hameze nk'ayo kubera ibiganiro bigiye bitandukanye nka bimwe mu bihuza abantu bakorera muri banki cyangwa se abantu bakora mu matsinda nka koperative, aho baba baje kuganira.

Abantu bari mu murima w'umuceri aho barimo kuwitaho, ni umuceri ukuze uri mu kigero cyo kuba wasarurwa cyangwa ukaba uburaho iminsi mike ngo were, barimo kuyitaho rero cyangwa se bakaba barimo kuwusarura.

Umuntu uri mu kazu k'inkoko, arimo kwita ku matungo y'inkoko kandi harimo n'imbata, ah ni mu gihe aba yarafashe umushinga wo korora amatungo magufi aho azubakira akazu noneho akajya azizaniramo ibyo kurya.

Inzoga ziri ahantu mu kabari. Aho ari inzoga zitandukanye, harimo iyisa umuhondo, icyatsi ndetse n'ijya gusa umweru. Izi zikunze kuboneka ahantu nko mu tubari.

Ahantu hateguye neza hariho ameza ndetse n'intebe ziteye ku umurongo. Aha hameze nk'ahantu habera igikorwa cyo kurya cyangwa kunywera. Ibi kandi bikunze gukorwa na bale ndetse n'ibindi bigo byose bicuruza inzoga, ibiryo.

Ahantu hari intebe ziteye neza ndetse n'amezaza akenshi ahantu hateguye gutya abakorerwa ibikorwa nk'iby'akabari abantu baza bakicara bakanywa inzoga cyangwa bakaba banatumiza n'ibyo kurya ahangaha rero ni ahantutu haba hari ibyo kunywa byinshi ndetse n'ibyo kurya.

Ameza ariho ibiryo biteguye neza hariho ifiriti, inyama ndetse ku ruhande hakaba n'icyo kunywa cy'uruganda rwa Skol, ibi bikunze kubera nk'ahantu mu kabari ari ho bakwakira gutya.

Inzu y'ubucuruzi ariko icuruza ibijyanye n'ibinyobwa cyane, harimo inzoga z'amoko menshi zigiye zitandukanye aho akenshi abantu bacuruza inzoga baba bazicuruza nk'ahantu bita mu kabari cyangwa muri hoteli cyangwa se mu bindi bitandukanye bicuruzwamo inzoga.

Ahantu hari intebe ziteye neza ndetse n'ameza, hari na tereviziyo, bivuze ko akenshi aha ngaha baba biteguye kwakira abakiriya, aba ari muri resitora cyangwa mu kabari, baba bacuruza inzoga cyangwa ibiryo.

Ahantu hateguye neza hari intebe ndetse n'ameza ni ahantutu hasa nk'ahakiri abantu benshi akenshi bikunze gukorwa nk'ahantu nko mu kabari cyangwa ahandi hantu habera ubucuruzi bw'inzoga cyangwa ibyoku kurya.

Ameza ariho icyo kunywa inzoga y'Amstel, imbere yaho gato, hari iradiyo irimo gucuranga, ibi ngibi bikunze kugaragara ahantu nko mu kabari, baba bacuruza inzoga.

Inzu y'ubucuruzi ariko bwibanda ku binyobwa by'inzoga, aha harimo inzoga nyinshi zigiye zitandukanye, akenshi izi zicuruzwa n'abantu bafite akabari cyangwa ibindi bikorwa byose bikenera gucuruza inzoga.

Inzu iriho icyapa kinini k'ikigo gicuruza cyangwa gikora inzoga cya Skol bivuze ko hano hari akabari cyangwa inzu icuruza ibyo kunywa bijyanye n'inzoga cyane cyane bakaba banywa Skol.

Icyapa kigaragaza inyubako itangirwamo ibicuruzwa bya hotel yitwa Demi shelaton boutique hotel, aha barimo kugaragaza bimwe mu bikorerwa muri iyi hotel harimo nk'akabari, icyumba cy'inama, amacumbi, jaride ndetse na resitora.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amagi, ibirayi, ubutunguru, amafu agiye atandukanye akenshi aba arimo ifu y'igikoma, iy'ubunyobwa, bombo, shikarete ndetse n'ibyo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye. Aho harimo imikoropesho, imikubuzo ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Aha ni aho umuntu ajya gufata inzu ahantu akayikodesha, agashyiraho ibicuruzwa kugira ngo abakiliriya bajye baza bahamusange musange bamuhahire.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiri mu ikarito, mu ducupa ndetse no mu tundi ducupa tw'utwuma, harimo n'igicuza kitwa saladine aho mo imbere habamo ifi ihiye ku buryo umuntu ayiguze yahita ayirya cyangwa se akabanza akajya kuyishyushya.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane byibanda ku byo kurya. hHarimo imifuka y'imiceri, amavuta yo guteka, ibirungo nk'iby'inyanya n'ibindi, kawunga ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho umucuruzi arimo kuganiriza umukiriya ngo amuhahire.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibirayi, imbabura, amagi, ifu y'ubugari ndetse n'ibindi bitandukanye. Aha ni mu gihe umucuruzi yajya kubirangura ahantu kure, akabizana akabyegereza abaturage kugira ngo bamuteze imbere nabo kandi bahaha batagiye kure.

Inzu y'ubucuruzi aho harimo igicuruzwa kitwa supaguru. Iki ni igicuruzwa gikoresha ushaka gufatisha ibintu byacitse, aho uyishyiramo maze ibintu bigahita byongera bigafatana.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibicuruzwa bitandukanye, bimwe biri mu nzu ibindi biri hanze, impande y'aho kandi hari kandagira ukarabe kandi hari na moto ivuye kurangura aho ipakiye injerekani y'amavuta ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye. Cyane cyane harimo ibyo kunywa, harimo amaji atandukanye, amazi, fanta ndetse n'ibindi. Ku rundi ruhande kandi harimo biswi ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye kandi harimo umudamu utegereje abakiriya.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane harimo ibicuruzwa bijyanye n'ubwiza. Aho harimo ibitunganya umusatsi, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi. Hicayemo kandi umudamu urimo kubicuruza.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibicuruzwa bitandukanye. Harimo gaze, amagare, amaradiyo, amarinete ndetse n'ibindi bitandukanye. Aha ngaha ni nk'igihe umuntu afite ibishoro byinshi bifatika, akarangura ibintu byinshi akabyegereza abaturage kugira ngo abashe kumuhahira.

Abantu barindwi bahagaze imbere. Aha akenshi abari abantu bari imbere y'itorero cyangwa mu rusengero, aho aba ari nka koli cyangwa bagiye kwiyerekana. Cyane cyane bikunda gukorwa mu rusengero iyo ari nk'abantu bashyashya cyangwa korali igiye kuririmba.

Abantu benshi harimo abafite imitaka ndetse n'abatayifite, bari impande y'urusengero aho baba bagiye gusenga kugira ngo biyeze hamwe n'Imana, ni abantu benshi akenshi bakunze kuba ari Abakatolika cyangwa abandi bo mu yandi madini atandukanye.

Abantu batatu bambaye impuzankano zisa. Aho bambaye amakanzu y'umweru, bakaba bakenyeye mu rukenyerero, umugozi w'ubururu. Abantu bakunze kwambara imyenda isa cyane cyane imeze gutya baba ari bari nko muri korali baririmba cyangwa akaba ari abahereza.

Abapadiri batatu bari mu rusengero aho barimo gusoma misa, harimo umwirabura, abirabura babiri ndetse n'umuzungu. Akenshi bikunze gukorwa iyo habaye umunsi mukuru murusengero ugasanga hajemo abapadiri benshi kugira ngo bafashanye. Iyo habaye nko kubatiza, gukomeza cyangwa gutanga ukariristiya.

Urusengero runini, uru rusengero rwitwa saint famille ruboneka mu mujyi wa Kigali, aha ngaha abakirisitu biteguye kwinjira mu rusengero, gusa bashyizemo intera nk'aho ari mu gihe cya kovide, aho bakoreshaga iyo ntera ya metero kugira ngo birinde kwanduzanya icyorezo cya Korona.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu ngeri zitandukanye, harimo abadamu ndetse n'abagabo abadamu benshi bakenyeye. Bivuze ko bambaye imikenyero barimo kubyina, aho bagiye gusenga.

Abantu barimo gufata ifunguro, akenshi ni ifunguro rifatwa n'abantu basenga mu buryo bw'adeperi cyangwa n'abandi, aho iyo bagiye ku ifunguro bafata akantu kameze nk'aka divayi bakakanywa. Aha mu rusengero barimo gufatira ifunguro ryera.

Abantu bari mu rusengero aho bagiye gusenga, ni urusengero runini kandi rurerure aho abantu bajya bagahura n'Imana bakaganira na yo, bayisenga binyuze mu gushima, gusaba ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye no gukorera Imana.

Inzu yubatse neza mu matafari kandi nini. Iyi wayihita nk'urusengero. Akenshi inzu zireshya gutya ziba ari urusengero. Ahantu abantu bahurira bakaganira n'Imana, aho bashima, bagasaba Imana ndetse bakanayisingiza. Aha ngaha rero ni ku rusengero aho abantu baza bagahuza n'Imana.

Abantu batatu bambaye impuzankano zisa. Ni amakanzu y'umweru, bayakenyeje umugozi w'ubururu, abantu bambaye gutya bakunda kuba ari abakorari cyangwa abaririmbyi cyangwa se abahereza.

Abantu benshi bambaye neza harimo abagabo n'abagore. Bari kwifotoreza imbere y'urusengero. Bivuze ko ari nk'umunsi mukuru cyangwa abakirisito bo ku rusengero babonye abashyitsi, bakaba barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Inzu irimo abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo, bamwe baricaye, abandi barapfukamye, abandi barahagaze bari mu gikorwa cyo gusenga aho buri muntu wese ari gusenga mu buryo yifuzamo, akenshi bikunda gukorwa n'abakirisito aho biherera bagakora amasengesho bafite ibyifuzo runaka basengera.

Abantu bari mu rusengero aho umwe afite indangururamajwi arimo kuganiriza abantu, ashobora kuba ari kubabwiriza cyangwa se arimo gutanga ubundi butumwa bugiye butandukanye.

Ahantu hasa neza kandi hateguye neza harimo intebe zitandukanye, ahantu hameze gutya hakunze kuba hari nko muri hoteli cyangwa muri moteri aho baba batanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye nk'ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse bagatanga n'amacumbi,

Uburiri bushashe neza kandi buriho imisego ibiri, ni mu cyumba kiza cyane, aha ngaha hakunze kuba ari ahantu batanga amacumbi aho umuntu yishyura kugira ngo arare muri kino cyumba, aha bakunze kuba ari nko muri hoteli cyangwa muri moteri.

Ibiryo biteguye neza, aha ni mu gihe haba hari nk'ahantu habaye ikirori cyangwa se mu mahoteli aho bategura ibiryo bimeze neza noneho umuntu akaza akajya yiyarurira.

Ahantu hateguye neza kandi hameze neza. Akenshi ahantu hameze gutya hakunze kuba ari nko muri hoteli cyangwa ahandi hatandukanye, batanga amacumbi cyangwa habera ibindi birori bitandukanye. Aha ngaha rero ni muri hoteli.

Uburiri bushashe neza, ahantu hashashe neza hameze gutya hakunze kuba ari hamwe mu hantu batanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye harimo nk'amacumbi, aho umuntu arara muri icyo cyumba kugira ngo bucye cyangwa se ijoro rirangira aryamyemo abanze kwishyura amafaranga.

Ahantu heza hitigeye kandi hari imisozi, akenshi bikunze gukorwa n'amahoteli cyangwa ibindi bigo bitanga amacumbi bicuruza n'ibintu byo kunywa, hari ahantu abakiriya bogera.

Inyubako nziza, igeretse rimwe, akenshi inzu zimeze gutya ziba zikora ubucuruzi bw'amahoteri ndetse no gucumbikira abantu, aho abantu bagenda bakararamo bakishyura ndetse haba hari n'ibyo kunywa n'ibyo kurya.

Ibiryo bitetse neza harimo umuceri ndetse n'ibindi bisa umutuku, biteguye neza ahantu ku meza. Ibiryo bimeze gutya akenshi bikunda guterwa gutekwa n'ahantu bakira abantu baje kuhaha ibyo kurya cyangwa kunywa nko muri hoteli cyangwa mu tubari.

Ahantu hameze neza cyane cyane ahantu hameze gutya haba ari nko muri hoteli aho haba hari ahantu abakiriya baje babagana bagomba kujya kongera bakaruhuka.

Inzu nziza cyane iri ahantu hitegeye, ni inzu igeretse rimwe, akenshi inzu zubatse gutya ziba zikorerwamo ibikorwa by'amahoteli aho baba batanga amacumbi, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Inyubako nziza iri ahantu heza, hari n'ahantu ho kongera, aho abantu bavuyemo mu koga bahita bicara na ho harahari, ahantu hameze gutya akenshi, aba ari ahantu nko muri hoteli, ahantu batanga amacumbi abantu bakaramo, haba harimo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Ibiryo biteguye neza. Aha ni ahantu haba hari amafunguro ateguye neza nko muri hoteli cyangwa muri moteli. Aho umuntu agenda akiyarurira noneho akarya, yamara kurya akishyura bitewe n'uburyo yiyaruriyemo.

Ahantu hari uburiri bushashe neza ndetse n'intebe. Aha ni ahantu mu idirishya hitegeye neza ahantu heza. Bivuze ko icyumba kimeze gutya kiba kiri ahantu batanga nk'amacumbi nko muri hoteli cyangwa muri moteri.

Inzu nziza iri mu marangi ajya gusa umweru igeretse kabiri, ni inzu isa neza kandi iparitsemo imodoka ebyiri ku ruhande, inzu zimeze gutya zikunze kuba zifite ibicuruzwa bitandukanye nko gutanga amacumbi, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya twakwita nka hoteli cyangwa moteri.

Uburiri bushashe neza kandi hakaba harimo n'intebe nyinshi aho ari icyumba kinini kandi kirimo ibyangombwa by'ibanze bikenerwa na buri muntu wese, ibyumba bimeze gutya bikunze kuba biri mu mahoteli ariho hantu bacuruza serivisi zijyanye no gutanga amacumbi.

Inyubako nziza kandi yitegeye umujyi, hari intebe zo kwicaraho aho ureba umujyi neza. Akenshi inzu zimeze gut ziba zitanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye nk'amacumbi y'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa akenshi wahita nka hoteli.

Ahantu heza hitegeye imisozi ndetse n'ibibaya hari n'indabyo nyinshi. Aha ni ahantu muri hoteli aho bakoze n'aho abakiriya bazajya bogera mu gihe barimo kuruhuka cyangwa baje kurya amafaranga yabo.

Inzu nziza kandi igeretse inshuro nyinshi, harimo abantu benshi bambaye impuzankano y'amajiri y'icyatsi, bivuze ko iri kwitabwaho itaruzura kandi hari abandi bantu bahagaze ku ruhande, inzu zimeze gutya uba usanga ari nk'amahoteli cyangwa moteri itangirwamo amacumbi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Uburiri bufashe neza ndetse n'intebe nziza ku ruhande akenshi uburiri bumeze gutya buba buri ahantu batanga amacumbi nko muri hoteri cyangwa muri moteri ahangaha umuntu uraramo bisaba kugira ngo abanze yishyure.

Inzu nziza kandi ikoze neza inzu zimeze gutya akenshi uba sanga ari nk'amahoteli cyangwa moteri, aho baba batanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye nk'ibyo kurya kunywa ndetse n'amacumbi umuntu ashobora kuraramo.

Abadamu ndetse n'abagabo barimo gucuruza mu isoko, akenshi bibanze ku bicuruzwa by'ibihingwa aho biba byeze bakabizana mu isoko kugira ngo babicuruze, harimo kandi n'abari mu butaka abandi ntabwo bari mu mitaka.

Urujya n'uruza rw'abantu, abadamu, abagabo ndetse n'abana aho bari mu isoko bamwe bagiye guhaha abandi barimo gucuruza, cyane cyane hano hibanze ku bicuruzwa biva mu mazi nk'isambaza cyangwa indagara.

Abantu bari mu isoko bamwe barimo gucuruza abandi baje guhaha. Harimo ababifite mu ntoki ibicuruzwa ndetse n'abandi baba babimanitse aho umuntu aza akihitiramo. Ni ahantu hegeranye kandi hari abantu benshi urujya n'uruza rw'abantu batandukanye.

Isoko ry'ubucuruzi, ahantu haba haremye isoko abantu bakazana ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umudamu uri kumwe n'umwana ndetse n'umugabo, bahagaze ahantu bacururiza inkweto, aho barimo kureba inkweto bagiye kugura.

Umudamu uteruye imbuto afite imbuto aho arimo kugenda azicuruza. ubucuruzi akenshi bwitwa ubw'abazunguzayi, aho bagenda batembera kugira ngo abantu babagurire. Impande ye kandi hari umumotari, umuri imbere.

Isoko ry'ubucuruzi ariko ni isoko ricuruza ibijyanye n'imboga cyane. Aho harimo inyanya, pavuro, intoryi, ibibiriganya, kokombure, karoti, ubutunguru ndetse n'ibindi. Hicayemo umuntu w'umugabo utegereje abakiriya.

Ahantu habera ubucuruzi. Aho hari abantu bacururiza hanze, bacuruza ibintu by'imboga. Harimo inyanya ndetse na dodo. Hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda, abaje guhaha ndetse n'abacuruzi.

Inzu y'ubucuruzi ariko yibanda cyane ku myenda, aho harimo abantu bari gucuruza imyenda ndetse abandi bakaba barimo kudoda, bivuze ko habamo imyenda bacuruza bidodeye ndetse n'yindi isanzwe bajya kurangura.

Abadamu bicaye barimo gucuruza akenshi aba bacururiza hanze bitwa abazunguzayi cyangwa se bakabacuruza ahantu mu kagoroba mu ka karitsiye. Aha bacuruza ibintu by'imbuto ndetse n'ibindi, baba bakoze imifungo kugira ngo umuntu ufite ibiceri bike nawe abone uko ahaha.

Abantu benshi bari mu isoko, aho baje guhaha abandi bakaba barimo gucuza, harimo abadamu bafite ibicuruzwa bameze nk'abazunguzayi aho bari gutembera mu isoko, abandi kandi bafite ibicuruzwa bimanitse ahantu heza, aho umukiriya aza akabireba.

Ahantu hari intebe ziteye neza ndetse n'ameza ateguye neza. Ahantu hameze gutya bakunze kuba batanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye ariko bibanda cyane ku byo kurya. wahita nko muri resitatora cyangwa inzu zicuruza ibyo kurya.

Ahantu hateguye neza hari intebe ndetse n'ameza, hari na nyubako nziza cyane. Ahantu hameze gutya, akenshi babatangira bimwe mu bicuruzwa bitandukanye nk'ibiryo, cyangwa ibyo kunywa. Aha wahita nko muri resitora cyangwa hantu abantu bafatira amafunguro.

Ahantu hateguye neza harimo intebe nyinshi ndetse n'ameza. Ahantu bameze gutyo akenshi baba batanga ibicuruzwa bitandukanye harimo n'kibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, cyane cyane ariko bibanda ku byo kurya nka resitora ndetse n'ibindi.

Ahantu hateguye neza hari ameza menshi ndetse n'intebe. Ahantu bameze gutya baba biteguye kwakira abakiriya nk'abaje kurya cyangwa babyita paresitora, cyangwa ahandi hantu abantu bafatira amafunguro nk'aya saa sita cyangwa ninjoro.

Umuntu utwaye moto muri kaburimbo akaba ahetse umudamu uhetse umwana, bari muri kaburimbo bonyine kandi nta bindi binyabiziga biri muri kaburimbo, impande yabo hari ibimera bitandukanye bageze ahantu hameze nk'ahadatuye abantu.

Umuntu utwaye moto muri kaburimbo ahetse undi, muri kaburimbo ntabindi binyabiziga birimo ,aho moto iri mu muhanda yonyine, kuruhande kandi hakaba haparitse imodoka.

Umuntu utwaye moto ahetse n'umugenzi aha ni muri kaburimbo, aho ikindi kinyabiziga kirimo ari igare ririmo kuzamuka, moto yo irimo kumanuka kandi umumotari afite igikapu imbere ye.

Umuntu utwaye moto ari muri kaburimbo kandi ahetse undi muntu, inyuma nta kindi kinyabiziga kiri muri kaburimbo, ari muri kaburimbo wenyine. Inyuma ye hari inzu ndetse n'ibindi biti birebire biri kuruhande.

Umugabo uri muri kaburimbo, aho ahetse amabati ku igare. Arimo gucunga igare, mu muhanda nta kindi kinyabiziga kirimo. Gusa ku mpande zaho hari izindi modoka ziparitse ku ruhande, ahahegereye inzu z'ubucuruzi.

Moto iri muri kaburimbo yonyine ihetse umuntu. Ubwo bivuze ko hari umuntu utwaye moto ndetse n'undi uyicayeho. Ni muri kaburimbo nta bindi binyabiziga birimo, ibindi binyabiziga biri kuruhande kandi biraparitse.

Umumotari yaje gushyirishamo batiri. Izi ni moto zikoreshwa akenshi n'abamotari, ariko zikaba zidakoresha moteri, ahubwo zikaba zikoresha batiri. Iyo umuriro ushizemo bajya ahantu bacaginga batiri z'izi moto, bakajya gushyiramo indi. Aha ngaha rero umuntu ushinzwe gutanga izo batiri arimo kuyishyira muri moto.

Umuntu utwaye moto muri kaburimbo, ari muri karimbo wenyine nta bindi binyabiziga birimo, inyuma ahetse igicupa kimeze nk'icya gaze kandi impande y'umuhanda hari inyubako zitandukanye nk'imwe ikoreramo FORTEBET.

Umuntu utwaye moto aho ahetse umufuka munini w'umweru kuri moto, ari muri gaburimbo wenyine nta kindi kinyabiziga kirimo ariko ageze mu nzira abanyamaguru bakunda kwambukiramo.

Abamotari baparitse kuri kaburimbo, abamotari babiri aho bategereje abagenzi, mu muhanda kandi harimo imodoka itwara ibishingwe cyangwa imyanda, aha abamotari nta bagenzi bafite.

Umuntu utwaye moto, aho ahetse umudamu. Ari muri kaburimbo wonyine nta kindi kinyabiziga kirimo kandi handitseho amagambo PAPR. Bivuze ko afana ikipe ya APR. Impande y'iyi kaburimbo kandi hari ishyamba rikiri ritoya, ririmo gukura.

Umugabo utwaye moto ari muri kaburimbo wenyine nta bindi binyabiziga birimo, inyuma ye kandi ahetse umuntu, ari muri kaburimbo impande yabo hari urutoki ndetse n'inzu nini imeze nk'urusengero.

Umuntu uri mu muhanda atwaye igare, ari muri kaburimbo wenyine nta bindi binyabiziga birimo, arenze gato aho abanyamaguru bambukira, impande kandi hari inzu nyinshi z'ubucuruzi ndetse n'ibinyabiziga bihaparitse harimo moto ndetse n'imodoka.

Imodoka nziza kandi nini, imodoka y'abashinzwe umutekano w'abasirikare aho iri muri kaburimbo yonyine, nta kindi kinyabiziga kirimo, harimo imodoka ndetse n'abanyamaguru bari kugenda ku ruhande mu nzira zabugenewe z'abanyamaguru.

Umuntu utwaye moto ari mu muhanda, inyuma ye kandi hari imodoka, yanditseho icyapa cy'uruganda rwa skol rucuruza ibyo kunywa, umumotari nta muntu ahetse, arimo kurangarira umukobwa urimo kujyenda n'amaguru ku ruhande.